Inyubako nziza cyane, ifite ibyapa ,ubona ko ari amacumbi . Mo ndani harimo ibitanda , harimo icyo kunywa ,bivuze ko harimo n'icyo kurya. Bigaragara ko aho ahantu hakoreshwa mu bijyanye no gucumbikira abantu.

Aha ni mu duka bacuruzamo ibikombe, amasafuriya ndetse n'amabase ndabona harimo udukombe dusa umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, ubururu n'amabase ni amabara n'amasafuriya ari mu bwoko butandukanye ntabwo angana. Bivuze ko ubikeneye biragurishwa.

Isoko ry'imbuto zitandukanye, harimo inanasi, amaronji, imineke, imyembe, pome, ibinyomoro, ndetse n'amaronji. ubona ko ari imbuto ziteye apeti.

Aha ni mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo amagare, hakabamo imodoka, hakabamo n'abantu. Uyu muhanda ni uwa kaburimbo. Ufite agahanda ko kwambukiraho kagendwamo n'abanyamaguru. Urabona uriya mugenzi ari kunyura ahatemewe ari kunyura muri kaburimbo kandi hari aho kunyura h'abanyamaguru.

Akabare bita Fesibuke, aka ni akabare kagira amacumbi hari ahantu ku muhanda kuri kaburimbo, ubona ko abantu urujya n'uruza rugenda rujya yo. Aho byegeranye bacuruza itumanaho ari ryo amayinite ndetse kubika no kubikuza.

Hoteri aho bakirira abantu bashaka kwishimisha, abaje mu birori, aho bakirira nama ubona ko haza urujyanuruza, bitewe n' ibikorwa bibazanye, abaje kurya amafaranga yabo ndetse n' abaje mu nama.